Uyu munsi ushobora gukora igikorwa, ejo kikakugaruka cyangwa kikakugoboka, niyo mpamvu niba ufite amafaranga, cyangwa se uri gukora ubungubu, ni byiza ko ukora witeganyiriza kuko ejo hazaza twese n'umwe uba uhazi, niyo mpamvu ikigo cyitwa pirime, gifasha abantu kuba bakwizigamira, cyangwa se bakazigamira abana babo.

Radiyanti yacu limitedi turi kumwe, turi kumwe mu rugendo rwawe, tuguha ubwishingizi bw'ubuzima, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego, igihe wumva nawe waba umwe mu bantu Radiyanti yacu ikorana na bo.

Muri iki gihe, umuntu wese wizigamiye, akaba yakoresha kimwe mu bigo bifasha abantu kwizigamira, biragufasha ubuzima bwawe bwose, ndetse n'igihe utakiri mu buzima, aho waba urwaye, waba wagize ibyago, waba inzu yawe yahiye, cyangwa ikinyabiziga cyakoze impanuka cyangwa se wapfuye, hose bagufasha bakakubera umuryango n'inshuti n'abavandimwe.

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Aliance ikigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibigo by'ubwishingizi byabaye byinshi bitewe nuko ari ngombwa kuba wakoresha ubwishingizi mu gihe ibyago bigutunguye, waba urwaye cyangwa se ugize ikindi kibazo bikuyoboke bitangije ubuzima bwawe.

Murakaze neza muri Radiyati yacu rimitedi. Radiyati yacu rimitedi ni cyo kigo cya mbere mu Rwanda cyemejwe na Banki Nkuru y'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi buciriritse. Hamagara cumi n'umunani, icumi cyangwa uhamagare kuri nimero: zeru, karindwi, umunani, umunani, gatatu, umunani, icumi, mirongo cyenda na gatatu, igihe wifuza gukorana na Radiyati yacu.

Muri iki gihe tugezemo bitewe n'uko ibyago biza bitateguje ni byiza ko washaka ikigo cy'ubwishingizi cyazagufasha mu gihe uhuye n'ibyo byago. Kandi ibi bigo ntabwo biba bigoye cyane, kuko amafaranga ugenda utanga buri kwezi ntabwo ari menshi bitewe n'uko iyo wagize ikibazo bakugoboka ubuzima bwawe ntibwangirike.

Akenshi kuri telefone iyo hari igikorwa gishya ushaka gufungura cyangwa apurikasiyo nshyashya, cyangwa se serivisi nshyashya ushaka guhabwa utari usanzwe ufite, bagusaba ko ushyiramo nimero yawe ya telefone.

Mesaje boherereza umukiriya igihe ari kureba uko konte ye aba yayikoresheje mu gihe ari kohereza amafaranga cyangwa ari kuyakira, bakamwereka byose uko byagenze, kuko hari igihe umuntu yibagirwa n'uko yakoresheje amafaranga, bikaba ngombwa ko akenera ubu butumwa.

Masitakadi ni ikigo gifasha abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, gusa ku banyeshuri irabafasha yaba mu kwiga ikabishyurira ibikoresho bakenera ndetse ikabafasha no mu mibereho yabo, kugira ngo babashe kwiga nta kibabangamira kandi batsinde neza.

Banke ikorera ku mugabane w'Afurika yitwa NCBA iri guha ikaze abantu bose babyifuza kandi nabo biteguye kubaha serivisi nziza, ni byiza ko amafaranga utayabika iwawe mu rugo kuko igihe icyo ari cyo cyose ibisambo bishobora kugutera, muri banki niho amafaranga aba afite umutekano kandi nawe ubyizeye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda, aho bafite amapantaro meza, yaba amakoboyi cyangwa amatise, yaba ay'abahungu cyangwa ay'abakobwa. Si amapantaro gusa kandi n'amashati aba ahari n'udupira, ndetse n'imipira yo kwifubika.

Mu iduka rinini cyane aho bacuruza udusego two kuba waryamaho, cyangwa se ukakarambika mu ntebe bitewe n'uko hari abantu barwara umugongo cyangwa se kumva igihe yicaye mu ntebe ashaka kwegama. Igihe wumva ukeneye utu dusego urahagera bakagufasha. Kandi bacuruza n'inanasi.

Iduka ricururizwamo amasakoshi, amasakoshi acururizwamo ni meza arakomeye, akozwu ruhu kandi buri bwoko na buri ngano waba ushaka yose iba ihari ushobora kuza ukayigura cyangwa se wowe mugabo umugore wawe ukamugurira agasakoshi keza ukakamuhamo impano.

Iduka rinini cyane rikorerwamo bikorwa by'ubucuruzi, aho ushobora kuhasanga imyenda y'abadamu ndetse n'abakobwa cyangwa ukahasanga n'ibindi bikoresho birimo imitako, ibikomo, amaherena, ndetse n'ibindi byiza cyane bikozwe mu buryo bwa kinyarwanda.

Muri iki gihe abantu bose basigaye bifuza gusa neza, kandi gusa neza ikintu kibigufashamo ni uko uba wambaye imyenda myiza kandi nawe wakarabye, hano muri iri duka bafite amashati meza cyane, bafite n'indi myenda itandukanye, ku buryo ushaka gusa neza ubagana na bo bakagufasha.

Iduka ryiza aho bacururiza ibitenge, baba babipanze mu buryo bwiza bitewe n'utubati twabo ntago tuba dukozwe mu buryo busanzwe, baba babukoze mu buryo butatse ku buryo uturutse kure utapfa kumenya ko ari ibyo bari gucuruza wagira ngo ni umutako.

Imodoka ni nziza cyane kandi ni icyaha icuruzwa n'ikigo gicuruza imodoka cyitwa kigali karizi maketi umuntu waba yumva ashaka kugura imodoka asabwa kuba afite miliyoni 12,000,000 maze imodoka akayibona kandi ikiri nshyashya kandi ni byiza ko wahihitaza igihe wumva uyikeneye batarayigutanga.

Akagera motors, ni ikigo gikora kikanacuruza imodoka, imodoka zabo ziba ari nziza, kandi zikomeye zinizewe, bitewe nuko baguha na garante y'igihe kirekire, abantu benshi bifuza imodoka, niho bagana bitewe n'uko serivisi zabo ari nziza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari atwaye ipikipiki ye, yambaye ijeri y'akazi, atwaye n'umugenzi na we yambaye kasike. Ni byiza ko umuntu wese uri kugenda ku kinyabiziga cyane cyane ku ipikipiki, yambara neza kasike kuko igihe habayeho impanuka bimufasha kurinda umutwe, kuba wahita ugira ikibazo gikomeye.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umukara nshyashya, uyirebye ubona ko ari imodoka ihenze umuntu wese atapfa kugura; inyuma handitseho amagambo ''VIP'', bigaragaza ko abantu bagenda muri iyi modoka ari abantu biyubashye cyane kandi bakomeye.

Aho bacururiza imodoka, imodoka zabo ziba ari nziza cyane kandi ari nshyashya, zifite amabara meza kandi atandukanye, ku buryo buri wese bitewe n'ibara yumva rimushimisha cyangwa se abona ryamubereye ryiza muri ako kanya, aba ari ryo agura, imodoka zabo ziba ari nziza kandi bagufasha no kuyigeza mu wawe mu rugo.

Akagera motozi ni ikigo gicuruza imodoka zikiri nshyashya kandi nziza zirambye, ku giciro cyiza umuntu waba ushaka kuba yagura imodoka nziza, yahagera bakamufasha, hano turahabona abagabo babiri, umwe ni umukozi w'Akagera motozi, undi na we ni umukiriya aje kugurarira iyi modoka nziza turimo kureba.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikimodoka kinini cyanditseho fuso, ikikimodoka uko bigaragara ni gishyashya, kandi aba bagabo umwe yaje kugura iki kimodoka undi nawe ni umukozi w'akagera motozi aricyo kigo kigurisha izi modoka, arimo aratanga iyi modoka ambwira umukiriya, yuko amafaranga bamusabye yayabahaye.

Imodoka nziza cyane isa neza kandi ikiri nshyashya ubu iri ku isoko umuntu wese waba wayikunze yumva ashaka kuyigura, akaba afite miliyoni icumi yaza akayigura hakiri kare batarayimutanga.

Ese waba wifuza kugura imodoka, hano hari imodoka nziza cyane ifite ibara ryiza kandi irakomeye ntanubwo ihenze cyane, igihe wumva wifuza kugura iyi modoka wahamagara kuri iyi nimero zero karindwi umunane, gatandatu gatatu, gatatu umunane kane, icyenda kane.

Abagabo babiri. umwe yaje kugura imodoka, undi ni umukozi arimo arayigurisha, uyu uguze imodoka ayiguze ku ruganda rwitwa yundayi, umukozi nawe akorera muri uru ruganda, bamuha ikirango cyanditseho ko bamushimira kuba yaje kubabera umukiriya.

Kugira imodoka ni byiza cyane, bikaba akarusho iyo ufite imodoka nziza, niyo mpamvu hano bari kugurisha imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara, itatse neza kandi irakomeye ku buryo uyireba, ukabona koko utewe ishema no kuba wayigendamo.

Abagabo batatu, babiri muri bo bambaye udupira tw'umweru, undi yambaye ishati, uko bigaragara umugabo umwe yaraje kugura imodoka, ni yo mpamvu bafashe iki gishushanyo gifite ishusho nk'iy'urufunguzo, mu rwego rwo kugaragaza ko iyi modoka ari we wayiguze nabo.

Imodoka nziza kandi nini ipakira ibintu byinshi yaba imicanga ,yaba amabuye, yaba amatafari ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, n'ubwoko bwa hoho, iracyari nshyashya, umuntu waba ufite amafaranga yumva ashaka kuyigura yahagera akayitwara batarayimutanga.

Abagabo batanu, babiri muri bo ni abakozi b'ikigo gicuruza imodoka cyitwa Akagera motozi, abandi babiri baherekeje inshuti yabo yaje kugura imodoka, kuko na bo baje bitwaye, bari baje kumwereka aho baguriye kuko babonye ko imodoka babahaye ari nziza kandi zikomeye.

Amafaranga utasanga ahantu henshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko kuri ubu nta kintu ushobora gusanga gifite agaciro ko kuba cyagurwa n'iri faranga u iki giceri agaciro karyo ari ifaranga rimwe kandi kuri ubu amafaranga asigaye akoreshwa asa nkaho ari mato hari igiceri cy'icumi.

Umugabo nyuma y'uko umunsi wose yakoreye amafaranga menshi, aje kuyabitsa muri banki bitewe n'uko abizi neza ko ibisambo bishobora kumutera ataragera iwe mu rugo, ndetse yanageze iwe mu rugo bashobora kumutera bakayamwiba, ariko muri banki akaba yizeye umutekano wayo.

Igiceri cy'amafaranga atanu ni afaranga y'amanyarwanda ariko kuri ubu ntabwo agikunda kuboneka bitewe n'uko ibintu byahenze, biragoye ko wabona ikintu gifite agaciro k'amafaranga atanu gusa.

Kuri banki abantu baje kubitsa amafaranga abandi baje kubikuza, gusa muri iki gihe kuko abanyeshuri benshi bagiye kujya ku ishuri, ababyeyi bahisemo kwishyura mbere kugirango mu gihe bazaba bari kugenda, bazirinde umurongo no gutegereza cyane kuri banki, kuko haba huzuyeyo abantu benshi cyane.

Ku meza hariho ibiceri bibiri. Igiceri kimwe gifite ibara ryera, ikindi gifite ibara rijya gusa nk'umuhondo; kiriya giceri gifite ibara rijya gusa nk'umweru ni igiceri cya makumyabiri, iki kindi ni icy'amafaranga atanu, ariko ntabwo kigikoreshwa cyane mu Rwanda.

Iteka ni byiza ko igihe wacuruje, mbere yo gutaha niyo waba unaniwe, ugomba kubanza ukabara amafaranga wakoreye, ukareba niba wungutse cyangwa se wahombye kugira ngo urebe niba wahombye, aho wakoreye amakosa, umunsi ukurikiyeho ntibizabe.

Uyu munsi, ubu noneho abakozi yabahemba bitewe n'uko yakoreye amafaranga menshi cyane kandi yari yaratinze kubahemba barivumbuye batakiza mu kazi, ubu yizeye ko mu minsi iri imbere, bagiye kujya baza bitewe n'uko yari yaratinze kubahemba, na bo bakaba baretse kuza mu kazi ngo abanze abahembe.

Umusore mwiza aje gufasha papa we gucuruza, ari kwakira abakiriya, umukiriya aje yashaka amata, umusore abwira papa ati zana ako kajerekani ngufashe nta kibazo, bitewe nuko wowe imbaraga ziri gushira nta mpamvu yo kuvunika kandi mpari.

Inyubako icururizwamo ibyo kunywa irimo amata, amazi ndetse n'amaji, umugabo yumvaga ashonje araza agura amata bitewe n'uko iyo umaze kunywa amata wumva uhembutse ndetse ugakomeza ibikorwa byawe nta kibazo na kimwe ugifite.

Amata ni ubuzima yaba ku bana ndetse n'abakuze, ni yo mpamvu Mukamira ni uruganda rutunganya amata, rutuganya amata meza cyane aho bagira litiro ndetse no mu tujerekani bitewe n'ingano ushaka.

Uruganda rwitwa Mukamira dayali limitidi rukora amata meza bongeyemo ibintu biryoherera aho bashyiramo imbuto cyangwa se bagashyiramo shokora n'utundi tuntu tugiye dutandukanye dufasha mu kongera uburyohe aya mata bayita yahurute.

Inyange ni uruganda rukora amata, amazi ndetse n'amaji. Ibicuruzwa byabo, biba byizewe cyane kuko bahawe n'ikirango kibyemeza ko, ibintu byabo byizewe kandi bifite isuku ndetse n'ubuziranenge.

Uruganda rutunganya amata rwitwa Masaka, rutunganya amata aryoshye agiye apanzwe bitewe n'uko umuntu ashaka ingano yayo, hari agace ka litiro, litiro, mu dukombe ndetse no mu tujerekani, amata yabo araryoha cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho bacuruza amata ndetse n'amazi, kuko kuri ubu abantu benshi bamaze kumenya akamaro ko kunywa amazi meza asukuye, ni yo mpamvu inganda zitandukanye zahisemo ko bazabatunganyiriza amazi. Amata na yo ni meza cyane ku buzima bwacu twese.

Uyu munsi muri kantine yo kwa Aburahamu amandazi bayamaze kare, kubera ko ikigo cy'amashuri baturanye, uyu munsi abanyeshuri babahaye uruhushya, kandi abanyeshuri bakunda amandazi. Aya abiri asigaye na yo mu kanya gato araba ashize.

Ushobora gukoresha telefone mu buryo butandukanye: uri kwishyura, uri kugura umuriro, uri kohereza amafaranga, uri kuyakira, uburyo bwose cyangwa se ari ibindi byangombwa urimo gusaba ukaba wabasha kubyishyura. Ni yo mpamvu Eyateri na yo ibibafashamo aho ukurikiza amabwiriza ubundi ukishyura.

Igihe cyose uri kwizigamira si ngombwa ko ufata umushahara wawe wose ukaba wawuzigama, ahubwo ufata make kugira ngo nawe ubashe gukemura ibibazo bindi ufite, ariko ayo make ukamenya neza ko uzajya uhora uyayizigamira bihoraho kugira ngo abashe kugwira.

Ishyura umuriro ukoresheje eyateri mani. Kuba ufite amafaranga kuri eyateri mani yawe ntabwo ari ngombwa ko utuma abana, cyangwa wowe ukava mu rugo iwawe ukajya ku muhanda kugura umuriro. Kuko wakoresha telefone yawe ukawugura kandi ukakugeraho. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri kane, akanyenyeri rimwe urwego, maze ukurikize amabwiriza.

Kuri MTN iyo wohereje amafaranga, cyangwa se bakayakoherereza, baguha mesaje, hari igihe wiyoherereza bitewe n'uko amarezo ntayo bikanga, ariko nabwo bahita babikumenyesha kugira ngo wongere ubikore cyangwa niba ari ikibazo cyavutse ubahamagare bagufashe.

Nubwo telefone tuzikoresha twohereza amafaranga cyangwa tuyakira cyangwa se tuyabitsaho, ushobora no kuba wagize ikibazo nta mafaranga ufiteho ukaba wabaguza bakakuguriza. Ubikora butyo rero, bisaba ko wizigamira kenshi ndetse ukajyabitsa akenshi, bakabona ko koko uri umukiriya wabo, maze na bo ukaba wabaguza bakakuguriza.

Igihe cyose uri kwishyura cyangwa se urukohereza amafaranga, iteka biba ari byiza ko ugenda ukurikiza amabwiriza ndetse ukareba ko imibare wanditse ari yo kugira utibeshya, ukaba wayayobya, bikarangira icyo ushaka gukoresha amafaranga utakiyakoresheje.

Muri iyi minsi bitewe n'uko ikoranabuhanga rimaze kugera kure, ubu serivisi zose ushaka, ushobora gukoresha terefone yawe, ukagenda ukurikiza amabwiriza, ukazihabwa. Yaba ari ukugura umuriro, yaba ari ukugira ngo amatereviziyo yose ujye ubasha kuyareba nk'imipira cyangwa ibiganiro, byose wabasha kubyishyura ukoresheje terefone yawe.

Muri iki gihe nk'uko abantu bose basigaye bafite telefone airtel nayo yaraje kugira ngo iborohereze, aho usanga ushabora guhamagara, ukohereza amafaranga ndetse ukanayohererezwa mu buryo bworoshye.

Iyo ugiye kohereza amafaranga kuri mobayiro mani bagenda bakwereka amabwiriza nawe ukayakurikiza, iyo uri kubikora gake cyangwa se ugatinda birangira bivuyemo ukongera ugatangira, ni byiza kubikora vuba kandi ukagenda ureba kugira ngo udakora amakosa ugasanga amafaranga urayayobeje.

Ubu ushobora kohereza umuntu aho yaba ari hose amafaranga ukoresheje terefone, na we akagenda akayabikuza akayakoresha icyari gitumye uyamwoherereza. Nk'uko mbere byagendaga, bikaba byasaba kuba watega ngo ujyaniye umuntu amafaranga, ubu byaroroshye kuko icyo gihe urimo gutegatega, amafaranga uba uri kuyapfusha ubusa.

Emmanuel Nzafashwanayo avuye kubikuza amafaranga, kandi abikuje amafaranga menshi. Abikuje ibihumbi magana atanu mirongo icyenda na bitandatu n'amafaranga magana atanu. Ari guteganya kubaka muri iyi minsi, niyo mpamvu avuye kuyabikuza, kugira ngo abe aguze isima n'amabuye.

Ikigo cy'igihugu gikorera mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa Rwanda reveni otoriti, gishinzwe imisoro n'amahoro. Ni ngombwa ko abantu bacuruza cyangwa se abandi bakozi bose batanga umusoro, kuko igihugu twe tugituye nitwe tugomba kucyubaka.

Muri iki gihe tugezemo ntago bimeze nka kera aho amafaranga umuntu yayakoreraga ari menshi cyane ugasanga ayabika iwe mu rugo cyangwa munsi y'igitanda cyangwa munsi ya matera, kuko ubu haje ama banki y'abaturage, haje za banki za Kigali, haje ubwoko bw'amabanki menshi, mu rwego rwo kwirinda abajura ni byiza ko amafaranga yawe ujya kuyabitsa muri banki.

Muriki gihe cy'ikoranabuhanga rikataje buri kigo cyose gikorera mu gihugu cy'u rwanda cyagiye kigerageza kuba serivisi zacyo bazishyira ku ikoranabuhanga aho ushaka gukoresha telefoni cyangwa mudasobwa ibyo ushaka byose bakaba babigufashamo niyo mpamvu na rwanda reven authority izo serivisi yazishyize kw,ikoranabuhanga.

Umugabo arimo arahereza umugore amafaranga, kugira ngo ibyo bemeranyije gukora muri icyo gihe abikore kandi byihuse, kuko umugabo yirirwa mu kazi ataha bwije, byose yaba yabwiye umugore we ko arabigenza maze akamuha amafaranga akanamubwira ko nihagira ikindi kibazo, yamuhamagara akamubaza maze umugore nawe agasigara yita kuri izo nshingano.

Amafaranga menshi y'inoti apanze hamwe, handitseho ko ari amafaranga ijana. Aya mafaranga ni amadorari, ku buryo uyashyize mu manyarwanda usanga ari amafaranga menshi cyane, kuyatwara byagusaba kwitwaza igikapu.

Umugabo ufite amafaranga menshi mu ntoki ze, aya mafaranga yose ni inote kandi ni amayero, harimo amafaranga mirongo itanu, amafaranga ijana, amafaranga makumyabiri. Aya yose ni amayero kandi amayero ni amafaranga ahenze cyane.

Abagabo babiri bose bafite amafaranga y'inoti mu ntoki zabo, umwe ayo afite ni amadolari, undi na we ayo afite ni amayero. Aya mafaranga yose arahenze, kuko iyo ugiye kuyavunjamo amanyarwanda, ubu baguha amafaranga asaba ko utwara igikapu kandi na cyo kinini cyane.

Amafaranga y'inote afite amabara atandukanye, bigaragaza ko n'agaciro kayo atandukanye, kuko hariho afite agaciro k'amafaranga icumi, andi amafaranga magana abiri, andi ibihumbi bibiri, andi mirongo itanu, aya mafaranga hariho umugabo umeze nk'umusaza wambaye amarinete. Uyu mugabo yitwa Mahatma Gandhi.

Amafaranga menshi cyane, afashwe mu kiganza, hariho umubare magana atanu, bigaragaza ko ari amafaranga magana atanu akoreshwa mu Gihugu cy'Ubuhinde kuko ifoto y'umugabo uri kuri izi note yitwa Gandi kandi ni umuhinde.

Amafaranga y'inote ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi myiza wambaye agashati kameze nk'udukanzu, aya mafaranga handitseho umubare makumyabiri, bigaragaza ko ari amafaranga makumyabiri.

Icyapa kiri mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bugendanye no kuvunja amafaranga, babashije gushyiraho iki cyapa n'uko amafaranga aba ameze igihe uri kuyagura cyangwa se uri kuyagurisha, kugira ngo abakiriya biborohere guhite basobanukirwa.

Ibihugu nk'uko bigenda bitandukanye, imico yabyo iba itandukanye, indangagaciro zabo zitandukanye ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi usanga bikorwa mu buryo budahuye cyane kandi n'amafaranga bakoresha ntago aba asa. Buri gihugu kigira amafaranga yacyo.

Amafaranga menshi cyane ari ku meza yose ni inote, gusa uko bigaragara aya mafaranga yose akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, kubera ko hashushanyijweho umugabo witwa Mahatma Gandhi. Uyu mugabo mu Buhinde bamufata nk'intwari yabo, bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze.

Inyubako nziza cyane ifite isuku, irimo amamashini yaka ku uhagera ukabona koko, ko mu ikoranabuhanga bakataje, muri iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'amafaranga, aho igihe ufite amafaranga adakoreshwa muri icyo gihugu uza mukayagura, ukagura andi akoreshwa muri icyo gihugu, anganya agaciro n'ayo utanze.

Akenshi iyo ibikorwa byawe ubyise izina ryiza, bituma abakiriya na bo baza bishimye kuko baba bumva izina ryawe naryo ubwaryo riri kubakurura, urugero nk'uyu biro yiwe yayise Giraneza, ku buryo ubisoma ukabona koko nk'uko ashishikariza abantu kugira neza, na we ubwe ibyo agukorera byose abikora mu buryo bwiza.

Biroroshye cyane kuba waba uri mu gihugu cy'u Rwanda ukaba ufite amafaranga adakoreshwa muri icyo gihugu, ariko ukaba wajya ku bantu bashinzwe kubifasha bakagufasha, kuko muri buri mujyi hagiye harimo utuzu dukorerwamo n'aba ajenti bashinzwe kuvunjishiriza abantu nk'amafaranga ufite ugenda bakayakuguranira bitewe n'ayo ushaka.

Umukobwa mwiza cyane, ukora ibijyanye no kuvunja amafaranga, aho avunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye, arishimye cyane kubera ko uyu munsi yabashije kubona abakiriya benshi, ku buryo inyungu yamaze kuyibona, ibintu byose yari amaze igihe yifuza kugura, akaba agiye gutaha akabigura.

Inyubako nziza nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye bitewe n'uko ifite imiryango igiye itandukanye kandi myinshi, muri buri muryango ubucuruzi bukorerwamo butandukanye n'undi muryango byegeranye. Hakorerwamo ibikorwa bigendanye no kuvunjisha ndetse no gucuruza ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi inyubako yubatse neza mu buryo bufite isuku; muri iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa byo kuvunja amafaranga; aho igihe ufite amadolari cyangwa se ufite amanyarwanda cyangwa andi mafaranga ayo ariyo yose; ariko akaba adakoreshwa muri icyo gihugu ujemo uza bakakuguranira.

Ubu ibintu byose byagiye byoroha, aho ushobora kuba wa ruri mu gihugu cy'u Rwanda wajya muri Amerika nta madolari ufite, wifitiye amafaranga yo mu Rwanda gusa, ukagenda bakakuguranira bakaguha amadolari anganya agaciro nk'ayo manyarwanda ubahaye, no mu bindi bihugu hose nabyo ni uko, kugira ngo aho ugeze amafaranga bakoresha ubashe kuyabona.

Inyubako y'ubucuruzi iherereye hafi y'umuhanda, hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kuvunjisha aho ujyana amafaranga bitewe n'igihugu uvuyemo cyangwa igihugu ujemo ukaba ukeneye ko baguha akoreshwa muri icyo gihugu urimo.

Inyubako yubatse neza ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, uyu muryango turiho ubucuruzi bukorerwamo ni ubucuruzi bwo kuvunja amafaranga, aho uzana amafaranga ari mu bwoko runaka bitewe n'igihugu waturukamo ukaza bakakuvunjira bakaguha andi ushaka bitewe n'igihugu urimo.

Intebe nziza cyane z'imifariso zikozwe mu buryo bukomeye, kuko bagiye bateramo udusumari two kugira ibi bitambaro ndetse n'imifariso bifate neza mu gihe abana bari gukinira muri izi ntebe, ntizizahite zivunika.

Mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, bashyize amatara ku ruhande bayashyira ku kintu mu kimeze nk'ikibaho, kugira ngo urumuri rugabanyuke, igihe umuntu aryamye ntirukamubangamire cyane.

Intebe nziza zifite ibara rya oranje zikikije ameza akoze mu buryo butangaje ku buryo uyarebera kure ugashaka kumenya ukuntu yaba akozwe, ibi ibintu uramutse ubiguze nawe ukabijyana muri saro yawe abashyitsi bajya bicara neza bishimye kandi nawe ukumva utewe ishema na byo.

Inyubako igurishirizwamo intebe, utubati, ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu yashyira iwe mu rugo, ntabwo bahenda kandi ibyo bagukorera byose biba birambye kandi bikoze neza.

Mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hano bakora ubucuruzi bugendanye n'ububaji, aho babaza intebe nziza, ameza meza ndetse n'ibindi bikoresho bikozwe mu mbaho kandi bikomeye.

Inyubako nziza zigerekeranye hagati yazo bahashyize piscine mu kinyarwanda twavuga ko hari ubwogero ariko ni hanini cyane uraragenda ukidumbaguza cyane ko iki gihe turimo izuba ni ryinshi cyane abantu baba baje muri izi nyubako bitewe n'ibikorwa bihakorera igihe bumva bashyushye cyane baraza bakiyumvira akayaga keza bari mu mazi.

Muri hoteri bakira abantu benshi cyane, yaba ari abaje mu manama, mu bukwe, mu birori ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biba bishobora guhuriza abantu benshi hamwe, kuko amahoteri afite ubushobozi bwo kubakira, akabatekera neza kandi indyo nyinshi ku buryo buri wese aza agafata icyo ashaka cyangwa icyo abona kimuryoheye.

Inyubako nziza kandi ndende, ni etage igereretse inshuro nyinshi cyane ku buryo kuyizamuka kugirango uve hasi ugere hejuru bigorana kuba wahagenda n'amaguru, akenshi baba barashyizemo esanseri kugirango ngo ikuzamure ugeze ku nyubako yanyuma cyangwa indi yose waba ushaka kujyamo muri iyi etaje.

Muri hoteri bafite uburiri bwiza cyane kandi buba bushashe neza, ku buryo uhareba ukumva ni byiza kuba waharyama, kuko n'iyo uharyamye uraryama ukumva waruhutse neza, hano ntabwo bisaba ko niba ushaka koga usohoka, kuko muri iki cyumba haba harimo ubwogero, kandi waba ushaka koga amazi ashyushye cyangwa akonje yose aba ahari.

Inyubako nziza cyane kandi ndende ifite pisine hagati mu mbuga, aho umuntu wese ushaka koga cyangwa wumva ashyushye ashobora kuza akoga, ku muntu utazi koga kandi hari umwarimu ubishinzwe wishyura buri kwezi ubundi akagufasha, kandi mu gihe gito uba wamaze kumenya koga.

Pisine nziza kandi nini aho abantu benshi bashobora kuza bakoga kandi batagongana bitewe n'uko ubunini bwayo buhagije, umuntu utazi koga ntabwo yemerewe gupfa kujyamo atabashije kubwira abakwiye kumufasha, kuko bishobora guteza impanuka cyangwa se imfu zo mu mazi.

Inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, yubatswe mu buryo bugezweho ku buryo urebera inyuma ukabona ni ibirahure gusa. Muri iyi nyubako hejuru hariho icyapa cyanditseho Radiyanti inshuwarensi kampani, igaragaza ko hakoreramo ikigo cya Radiant gifasha abantu mu kwishyura ubwishingizi yaba mu kwivuza ndetse no gushinganisha ibikorwa byabo.

Inyubako nziza cyane kandi ndende zubatswe mu buryo bugezweho, izi nyubako ziherereye mu mujyi wa Kigali ku buryo umuntu wese uzirebye abona ko ari inzu nziza z'icyitegererezo, hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ku buryo umuntu wese uje abagana bamwakira neza kandi akakirwa ahantu heza.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo butangaje kandi bugezweho, iragerekeranye, ni ndende cyane, umusore ahagaze imbere yayo, ari kwitegereza ukuntu bayubatse, nawe ubwe akumva biramuyobeye gusa umuntu wese uharebye abona ko abayubatse ari abahanga.

Inyubako nziza yubatse neza cyane, imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, igaragaza ko ari abakiriya baje bagana abakorera muri iyi nyubako, muri iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa bigendanye n'ubwishingizi.

Ni byiza ko igihe uri mu bantu benshi urwaye indwara z'ubuhumekero nk'inkorora cyangwa ibicurane cyangwa izindi ndwara zose, wambara agapfukamunwa kugira ngo utanduza abandi bantu. Aba bakozi na bo bambaye udupfukamunwa kubera ko bose barwaye ibicurane kugira ngo abakiriya babo bataza kubanduza.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, abakozi bose bakorera muri iki cyumba. Umugabo n'umugore bafite mudasobwa, buri wese arimo arakira uwaje amugana, ari kumusobanurira bitewe n'ikibazo yaje afite.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye no kwishinganisha, kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza, ndetse banagufashe mu kwivuza, abakozi babo baba bambaye impuzankano, kandi biteguye kwakira abaje babagana.

Icyumba kinini cyane gitangirwarwamo serivisi zitandukanye ndetse hakaba hakorera n'abakozi batandukanye, kubera ko bahashyize mudasobwa nyinshi kandi buri wese abasha kwakira umukiriya waje umugana, kandi akamwakira neza atabangamiye mugenzi we, cyangwa umukiriya wa mugenzi we.

Icyumba gikorerwamo n'abakozi batanga serivisi zikoreshwa na za mudasobwa, aba bakozi baba bicaye ku ntebe nziza ku buryo bimufasha kuba yahera mu gitondo akageza ku mugoroba yicayemo kandi bitamubangamiye yumva yisanzuye kandi atekanye.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi meza bigaragaza ko ubu muri iyi nyubako harimo isuku idasanzwe, hejuru amatara n'ayo ahora yaka ku buryo uyireba ukabona habora ari ku manywa n'iyo byaba ari nijoro, hakoreramo ikigo cyitwa Saniramu.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo n'ikigo gikora ibintu bijyanye no kwizigamira ndetse no kwishinganisha, kuko ibyago biza bitaduteguje, niyo mpamvu umuntu wese igihe akora aba agomba no guteganya, muri uku guteganya ni ugusanga ibi bigo, kuko amafaranga bakwaka atari menshi, bitewe n'uko ibyago byakugezeho bakugoboka ijana ku ijana.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo butangaje, bitewe n'uko iyo uri hafi uri kuyigendaho, ubona nta tafari na rimwe uri kureba byose ari ibirahuri, muri iyi nyubako hakoreramo ikigo cyitwa Ariyanzi.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo butangaje, kuko iyo uri kurebera kure, uba ubona ari ibirahuri gusa, ukaba wakwibaza ukuntu, inzu igerekeranye inshuro nyinshi cyane yaba yarubatswe hakoreshejwe ibirahuri gusa, gusa iyi nzu ni nziza igezweho, kandi iherereye mu Mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bwiza bugezweho ya etaji, hanze wasohotse hashashemo amapave, mu imbere mu nzu hose ni amakaro ashashemo, iyi nyubako, hasi hakoreramo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa wodi mico, gifasha abaturage kwishinganisha mu kwivuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza bugerekeranye ni etaje ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho usanga buri muryango hakorerwamo ibikorwa bitandukanye n'undi muryango bifatanye gutyo gutyo kubera ko ibikorwa by'ubucuruzi abanyarwanda benshi basigaye bakunda kubikora kugira ngo biteze imbere.

Icyumba kinini cyane gisa neza gifite amabara meza, harimo amatara menshi cyane yubatswe neza, ku buryo n'iyo haba ari ninjoro utabimenya, kuko iteka uhora ubona habona, hano harimo intebe nziza ndetse n'ameza ku buryo hashobora gukoreramo abakozi benshi, kandi bakaba buri wese yatanga serivisi atabangamiye mugenzi we.

Mu gihugu cy'u Rwanda bubatse inyubako nziza cyane yitwa BK Arena, ikorerwamo ibitaramo bigiye bitandukanye by'abahanzi, ari abaririmba umuziki usanzwe cyangwa se umuziki wo guhimbaza Imana.

Ushobora kuba uri gukoresha telefone yawe ukabona inkweto nziza, igikapu kiza, imyenda myiza cyangwa ikindi gintu kizi icyo aricyo cyose ukumva uragikunze, ariko ukumva nta mwanya ufite wo kuzajya ku isoko. Ubu biroroshye kuko hari ubucuruzi busigaye bukorerwa onuline aho ubatuma ibyo ushaka nabo bakabikugezaho bagusanze iwawe.

Ikigo cyitwa enisibi eyi cyatanze itangazo ko kiri gutanga akazi k'umuntu waba ushaka kwihuza nabo bagafatanya yabandikira maze agatanga ibyo asabwa akanuzuza ibyo bamusabye kuzuza ubundi akabona ibyo asabwa kugira ngo abone ako kazi.

Amabanki agiye atandukanye afasha abaturage kuba bakwiteza imbere batari bafite n'ibishoro, kuko baza bakabereka ibyo bashaka gukora, maze nabo bakaba babaha inguzanyo, bakajya bagenda bishyura bitewe n'uko bizinesi zabo batangije bari kugenda babonamo inyungu nyinshi na banki na zo zikunguka.

Amabanki ni meza kuko abashobora kuba yaguha inguzanyo, maze nawe ukiteza imbere, ukabaho neza ugasezera ku bukene, City banki nayo ni imwe muri ayo mabanki, afasha abakiriya bayo kuba babona inguzanyo maze bakiteza imbere.

Umugore witwa Mukamana uyu munsi arishimye cyane, acuruza imbuto, acuruza n'ibindi biribwa bitera imbaraga nk'imyumbati cyangwa se ibijumba. Uyu munsi amaronji yiwe yabonye abakiriya benshi kandi bamuhaye n'amafaranga menshi cyane, kuko ayo yabasabaga bahitaga bayamuha batazuyaje.

Eyateri yaje kwamamaza ibikorwa byayo, abaturage bitabiriye ari benshi cyane baje kureba ibyo yabateguriye kuko iba yabazaniye abahanzi ndetse n'ababyinnyi, bakabasha kwishima kandi bagasusuruka. Eyateri itanga serivisi nziza, ku buryo ubasha guhamagara, kohereza amafaranga ndetse ukanayohererezwa ku giciro gito.

Ni isoko uyu munsi abacuruzi bose barababaye ntabwo bishimye, kuko amafaranga yabuze pe, kuko bacuruza ibintu bigendanye n'ubukwe kandi muri iyi minsi tugezemo abantu benshi nta mafaranga bafite, kandi ubukwe nabwo busaba amafaranga.

Abagore babiri uko bigaragara umwe ni umucuruziu undi ni umukiriya yari aje guhaha imboga, kwishyura kuri ubu byaroroshye igihe udafite amafaranga ufite ikarita ushobora kuyitanga akagukoreza ku kamashini ubundi ukishyura ukoresheje ikarita bidasabye gutanga amafaranga.

Mu isoko rinini cyane, aho bacururiza imboga baba babipanze neza cyane, ku buryo usohoka hirya ubona ibicuruzwa bipanzi neza kandi bifite isuku. uyu mugore imbuga ze ziba zifite umwimerere, kuko uba ubibona ko ari iby'uwo munsi, ari bwo bazisaruye.

Inyubako nini cyane mu buryo butangaje kandi yubatse igerekeranyije, ku buryo uyireba ukibaza uburyo yubatswemo bikagutangaza, inyuma hari ibirahure byinshi cyane ku buryo ushobora kwibaza niba yose yubatswe n'ibirahuri gusa, ariko siko bimeze kuko ibirahuri biri inyuma gusa, ahandi bagiye bakoresha imicanga ndetse n'ibyuma.

Ni isoko aho bacururiza ibikoresho bigendanye n'umuco nyarwanda nk'ibisabo, ibiseke, ingoma y'uruhu, inkoko, intara, ibyansi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako nini iherereye mu Mujyi wa Kigali aho bita Nyabugogo, uyu munsi abaturage baje ari benshi, bitewe n'uko mu gitondo haba hari kubera ubucuruzi, abavuye mu ntara bari kuza kubiranguza i Kigali, kandi biba bihendutse, bitewe n'uko ibintu byinshi mu mujyi wa Kigali bihenda, bose bazinduka baza aha kugira ngo babibone kuri make.

Umugore witwa mama Mutoni, acuruza indagara, acuruza ubunyobwa, acuruza amavuta, acuruza umunyu, acuruza ibintu byinshi bitandukanye bikenerwa mu ngo kandi byose biba bifite isuku, bifite ubuziranenge kandi akabibahera ku giciro cyiza.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, ariko ibyinshi bikaba bikozwe mu buryo bugaragaza umuco gakondo w'lgihugu cy'u Rwanda, higanjemo imitako, ushobora gutaka iwawe muri saro, cyangwa mu cyumba, harimo ibikomo, harimo amaherena, harimo n'imyambaro ya kinyarwanda.

Udusoko tugiye duherereye mu duce runaka dukunda kurema ku mugoroba aho abacuruza inyanya cyangwa se intoryi cyangwa se izindi mboga zigiye zitandukanye bakunda kuza bakaba bacuruza ndetse muri utu duce akenshi n'abantu baba mu makoperative, nibwo bahura nabo bakaganira.

Inyubako nini cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatswe mu buryo butangaje, iyi nyubako ibikorerwamo ni ubucuruzi, kandi ari abacuruzi ni benshi kandi bagira n'abakiriya benshi, buri muryango wo muri iri soko ukorerwamo.

Umugore mwiza cyane ukorera mu isoko acuruza imbuto nziza zirimo imyembe, ibinyomoro, pome, za manderina, imineke, amaronji, indimu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kandi byose biba bifite ubuziranenge.

Akazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo kariho ibirango bya Emutiyene, bigaragaza ko uwo mu agenti ukoreramo ari uwa emutiyene. Afite abakiriya benshi bamwe baje kubitsa abandi baje kubikuza, abandi baje koherereza abantu babo bari kure amafaranga. Abandi nabo baje kugura amayinite.

Kwa Celestin ntabwo ari itegeko ko ugomba kuba ufite amafaranga mu ntoki kuko n'uyafite kuri telefone abasha kwishyura kandi akishyura batamukase kubera ko yishyura kuri kode kandi kuri kode kohereza amafaranga aba ari ubuntu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, hakorerwamo abagenti ba MTN, bafite abakiriya baje babagana, baje kubikuza amafaranga kugira ngo babone uko bahaha ibyo bifuza.

Inyubako ikorerwamo na MTN, MTN iyoboka Abanyarwanda ndetse n'abaturage bose batuye isi, bitewe n'uko ubasha guhamagara umuntu uri kure mukavugana nk'aho muri kumwe, cyangwa se ukamwohereza amafaranga cyangwa we akayakoherereza.

Kwishyura kuri telefone igihe cyose uhawe serivisi birashoboka, ku buryo ibyo baguhaye byose agaciro kose byaba bifite, amafaranga atari itegeko ko uba uyafite mu ntoki upfa kuba uyafite kuri telefone urabishyura, kandi haba hari na kode ku buryo igihe wishyuye batagukata.

Icyumba kinini cyane gitangirwamo serivisi za emutiyene, abakozi ba emutiyene baba bambaye impuzankano, imipira y'umweru ifite amakora y'umuhondo, ndetse n'abandi baba bambaye imipira y'imihondo, aba bakozi bari kwakira abakiriya baje babagana, kandi bari kubakirana urugwiro.

Muri iki gihe tugezemo kwishyura ukoresheje amafaranga gusa, ntabwo bikiri itegeko, kuko igihe amafaranga uyafite kuri telefone ushobora no kuyoherereza umucuruzi ukoresheje telefone, na we ukayashyira kuri telefone ye, aho ubyohereza kuri kode batagukase.

Umuhanzikazi witwa Bwiza yambaye umupira w'umuhondo n'ikirango cya Emutiyene yaje kuganiriza abaturage, kuko aherekejwe n'abandi bakozi ba Emutiyene, bose bambaye imipira y'umuhondo yanditseho amagambo Emutiyene kandi bambaye n'amapantaro y'amakoboyi asa.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, umukozi wa MTN w'umugore, arimo arafasha undi musore wambaye agapira k'umukara, kugira ngo arebe ko serivisi zose ashaka yazikorerwa kandi mu gihe gito.

Muri iki gihe bitewe n'uko ikoranabuhanga riri gukomeza ritera imbere kandi rikagera ku bantu bose, Airtel na yo yarabyohereje kuko yakoze apukasiyo abantu bayikoresha, bajya bifashisha bidasabye kubanza baca mu nzira nyinshi.

Ubu ushobora kuba wibereye iwawe mu rugo ukumva nta mbaraga ufite zo guteka, kandi ukumva nta n'ubwo ufite imbaraga zo kuba wajya kuri resitora, ubu byaroroshye kuko ikigo cyitwa vuba vuba, ubahamagara gusa ukabatuma ibyo ushaka byose, bakabikuzanira iwawe mu rugo.

Ubucuruzi bukorwa bikoreshejwe ikoranabuhanga ku buryo umuntu yaba ari mu gihugu cy'u rwanda akaba yatuma ibicuruzwa bitandukanye muri amerika ndetse bakabimugezaho. Hari rimwe mu isoko rikoresha iri koranabuhanga ryitwa kiku.

Kuri ubu, n'inkweto cyangwa imyenda, birashoboka ko nabyo ushobora kubigura wibereye iwawe mu rugo ukoresheje telefone, kandi bakabikugezaho uko wabisabye, icyo uba usabwa ni ukugaragaza nimero igukwira, ubundi nabo bakakubwira amafaranga wishyura, maze bakabikugezaho.

Muri iki gihe ntago ari ngombwa ko ibyo ushaka kugura byose ubanza gutega ukajya ku isoko, kuko ubu hasigaye hari ubucuruzi bukorera ku ikoranabuhanga, nkubu ushobora gufata telefone yawe ukabandikira ukabatuma ibyo ushaka, maze nabo bakabikugezaho, uyu munsi bafite inama kandi kwiyandikisha kugira ngo uzayitabire ni ugutanga ibihumbi mirongo itatu.

Mu muhanda ku ruhande hari parikingi ishashwemo amapave, haparitse ipikipiki, inyuma hariho ikintu kimeze nk'igikagito cyanditseho vuba vuba. Vuba vuba ni ikigo kibasha kugemurira abantu ibyo kurya, bitewe nuko hari abantu bagira ubunebwe cyangwa se batabona umwanya wo kujya kubyizanira, bikaba ngombwa ko bibasangisha aho bari.

Inyubako nziza kandi ndende, isize amarangi y'umuhondo n'ubururu, hasi naho hari amamodoka n'amapikipiki, bifite amarangi asa nk'iyi nyubako, kuri iyi nyubako hariho icyapa cyanditseho iposita.

Ipikipiki iriho ikirango cyanditseho Vuba Vuba n'uyitwaye yambaye umupira wanditseho Vuba Vuba, bigaragaza ko akorera ikigo cyitwa Vuba Vuba. Iki kigo kibasha kuba cyakuzanira ibintu byose wakenera, cyane cyane ibyo kurya, igihe wumva nta mbaraga ufite zo guteka cyangwa se zo kujya kubyigurira, bakabikuzanira iwawe mu rugo.

Kenshi iyo ugeze mu mujyi wa kigali kacyiru urahareba bitewe n'ubwiza bwaho n'isuku ihari n'amazu meza ahubatse ukumva nawe wifuza kuhatura ubu mwagize amahirwe kuko hari inyubako nziza cyane kandi nshyashya iheruka kuzura irimo iragurishwa umuntu waba ufite amafaranga angana n'igihumbi na magana atanu y'amadolari yahagera ubundi akavugana na nyirayo akayimugurishaho.

Muri iyi minsi ibintu byarahindutse ntabwo bikiri nka kera, aho wasangaga amawese aba hanze ku buryo mu gihe cy'ijoro, abantu batinya kuba basohoka bakajya ku bwiherero. Muri iyi minsi mu nzu basigaye bubaka bakazishyiramo kandi zikaba zisukuye, ku buryo zidateza umwuka mubi mu nzu.

Umuntu wese ufite intego yo kuzabaho mu buzima bwiza, aba yumva ashaka gutura mu Mujyi wa Kigali, kandi akaba ahafite inzu ye bwite, kandi inzu isa neza yubatse neza. Ubu ngubu byoroshye, umunyamahirwe wa mbere uratugeraho, yabasha kubona inzu nziza cyane, akayigura ku mafaranga angana n'amadorari igihumbi n'ijana.

Mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, hari inzu nziza cyane irimo iragurishwa, iyi nzu ifite ibyangombwa byose kuko uretse kuba hari ibitanda na matela zirimo, ikintu cyose wumva wakenera uraza ukagisangamo, kuyigura bisaba kuba ufite amadorari igihumbi na magana atanu ubundi ukabona inzu yawe nziza mu mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane nk'uko bigaragara hakorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse hakoreramo n'abayobozi, aho umukozi ari kwereka umuyobozi aho abayobozi b'abakozi bakorera akazi kabo ndetse n'aho abakozi bakora bicaye.

Inyubako nziza yubatswe igerekeranije, twayihita ko ari etage, ifite amarangi meza, ifite inzugi nziza, ifite ibirahuri byiza, abo bantu bayubatse ni abahanga cyane, ku buryo umuntu wese uhatuye aba yumva atewe ishema no kuba ari munzu isa neza nk'iyi.

Mu mujyi wa Kigali Kacyiru, harimo inyubako iri gukodeshwa aho ibikoresho byose ubisangamo, yaba ibyo mu gikoni cyangwa muri salo cyangwa mu byumba, iyi nyubako kuyikodesha ukwezi, utanga amadolari igihumbi na magana atanu maze ukabaho neza.

Inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali, hanze bafite parikingi nini cyane ihagije kandi muri iyi nyubako mu imbere ni hanini cyane, bashashemo amakaro meza cyane asa neza, amarange arimo na yo ni meza cyane kandi n'iyi nyubako iracyari nshyashya, ushaka kuyigura usabwa kuba ufite miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, ifite igipangu cyiza cyane cyubakishijwe amatafari ahiye, ifite parikingi nziza nini n'imbuga nini mu rugo, isashemo amapave, inyubako umuntu waba ushaka kuba yayigura arasabwa kuba afite amafaranga igihumbi magana atanu by'amadorari.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, aho ibikoresho byose biba birimo yaba matera yaba ibikoresho byo mu gikoni, yaba intebe, byose baba babifite. Aho igihe wumva waje muri aka gace, ukaba ukeneye inzu yo kubamo by'igihe gito, uza ukayikodesha amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali kimironko kwa sekimodo, ifite ibyumba bitatu, ubwogero butatu kandi buri cyumba kigiye gifite akabati gashyirwamo imyenda ku buryo biba bidateje akajagari, iyi nyubako kuyikodesha ni ibihumbi magana atatu buri kwezi.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, i Kanombe ifite ibyumba bitatu, ikagira ubwogero bubiri, ifite salon nziza bifite parikingi y'imodoka, iyi nzu ni nziza cyane. Umuntu waba ushaka kuyikodesha, kuyikodesha wishyura amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'amanyarwanda buri kwezi.

Inyubako nziza kandi ndende ifite amarangi meza, hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, hano ku muryango wo hasi, hakoreramo ikigo cyitwa Relocation Expert Rwanda Ltd, bashyizeho nimero za telefone, ku buryo mu gihe cyose ubakeneye ushobora kubahamagara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isa neza, irasukuye, ifite parikingi nini cyane, ifite ibyumba bibiri, ifite n'ubwogero, kuyikodesha ni amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu yonyine gusa ku buryo kuba wahaba ntabwo waba uhezwe, kuko iyi nyubako ni nziza, buri wese yaterwa ishema no kuba ahatuye.

Mu mujyi wa Kigali Kagarama, hari inyubako nziza cyane irimo irakodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, iyi nyubako ifite ibyumba bibiri binini cyane, ikagira ubwogero butatu na salo ndetse naho kurira.

Inyubako nziza yubatse neza, iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine ifite ubwogero butatu, ifite isaro na salamanje, kuyikodesha ni ibihumbi magana atanu ku kwezi gusa, umuntu waba uyikeneye, yahagera akayifata hakiri ikare batarayimutanga.

Hano hari inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali ku irebero, aho ushobora kuza ukaba wahakorera siporo, yaba ari iteramakofe, yaba ari ugutwara utugare, gusimbuka umugozi ndetse n'izindi siporo zose. Siporo ni ingenzi, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali Kimironko, ifite ibyumba bitatu, ifite ubwogero bubiri, ni nziza irasukuye ifite parafo nziza isize n'amarangi meza cyane, kuyikodesha wishyura ibihumbi magana atatu buri kwezi.

Inyubako nziza yubatswe neza mu buryo bugezweho, iherereye mu Mujyi wa Kigali Kimironko, ifite ibyumba bibiri, ikagira n'ubwogero bubiri, kuyikodesha ni ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda, umuntu waba wifuza iyi nyubako yatugeraho tukamufasha.

Inzu nziza cyane yubatswe neza mu buryo bugezweho, isize amarangi meza, isakaye neza, ifite ibirahuri byiza n'inzugi nziza; ndetse mu gipangu hashashe amapave. Iyi nzu iherereye Kigali, Kimironko, ndetse ikaba ikodeshwa.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, iherereye ahantu heza hatari akavuyo, iherereye mu Mujyi wa Kigali Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri, ikagira n'ubwogero bumwe, umuntu waba ushaka kuyikodesha yatugeraho ubundi tukamubwira amafaranga azajya yishyura na we ubwe akabanza yareba niba ahashimye.

Inyubako nziza cyane yubatse neza mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite parikingi nini, abayituyemo bafite n'imodoka, inyubako ifite ibyumba bine, ifite ubwogero butatu, urumva ko abantu bayubatse bayubakiye umuryango mugari.

Umugabo cyangwa umusore wambaye ishati y'umweru, ku ishati hariho akantu k'umukara, ako kantu ni aka mikorofone kugira ngo ibyo ari kuvuga bibashe kumvikana bitamusabye kugafata mu ntoki kugira ngo abe yabasha no kubona uko akora ibimenyetso bitamubangamiye.

Ikigo gikora ubucuruzi bugiye butandukanye higanjemo gutanga ama serivisi ajyanye n'ubukerarugendo, yaba ku gushushanya inyubako, yaba kwandikisha ubutaka, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, barashaka kumenyesha abakiriya babo ko gutangira ari saa mbiri zo mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe, bakaba bakora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa kigali, kanombe ifite ibyumba bine ubwogero butatu, ifite parikingi nziza kandi nayo yubatse neza cyane, ushaka kuyigura wahamagara.

Iduka rinini cyane, bagira ibintu byinshi cyane bitandukanye, ririmo imitako n'ibindi bikoresho byinshi, ku buryo umuntu wese uje abagana, icyo ashaka cyose barakimuha n'icyo badafite muri ako kanya bakakimutumira.

Iduka aho bacururiza imigati igiye itandukanye, bitewe n'amafaranga ufite buri mugati urawubona. Iyi migati kandi iba ikozwe mu mata ndetse n'ifarini, amasukari ntabwo aba ari menshi ku buryo yagutera indwara. Ni byiza ko uza ukawugura ukiri mushyashya kuko iyo utinze uba watangiye gutakaza ubuziranenge.

Mu mpera z'ukwezi, abantu benshi uba ubona bari guhaha bishimye kuko abenshi ari bwo baba bahembwe. Aba bagore bavuye mu kazi ariko barishimye akanyamuneza ni kose bafite amafaranga, buri wese yafashe akagare kuko ibyo ari guteganya guhaha ari byinshi, atabijyana mu maboko ngo abibashe, niyo mpamvu yifashishije akagare kugira ngo ibyo ashaka byose abihahe hatagira na kimwe yibagirwa.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, abagore ni bo biganjemo mu bacuruzi bakorera hano, abakiriya baje na bo bari kwakirwa neza kandi barishimye n'abandi bashaka izindi serivise zitandukanye bari kubafasha.

Mu masoko agezweho, ntago ari ngombwa ko ugenda ngo nibakubwira igiciro utangire ugabanyishe, muciririkanywa kuko ibiciro byose biba biri mu mashini, wowe icyo wafashe ushaka kugura, bagikoza ku mashini hagahita haza ibiciro, bidasabye ko mubanza mwabiganiraho cyangwa ngo mubijyeho impaka.

Iduka rinini ricururizwamo ibyombo, aho usanga ibyo ushaka byose bihari, hari ibisorori biba bimeze nk'amateremusi aho ashobora gushyiramo ibiryo mu gitondo saa sita zikagera ukajya kubirya ukumva biracyashyushye wagira ngo nibwo ukimara kubiteka.

Hano hari iduka ryiza cyane kandi rinini ry'umugabo witwa Kamari, uyu mugabo ibicuruzwa bye byose biba bifite ubuziranenge, agira ibikapu byiza, imikandara ikomeye, inkweto zikozwe mu ruhu nazo nziza cyane kandi zikomeye.

Mituweri ni ngombwa ko buri muryango ukwiye kuzishyura. Nubwo hari abatekereza ko amafaranga babaca ari menshi, ariko ntabwo ari menshi bitewe n'uko igihe cyose barwaye ibafasha kwishyura. Usanga umuturage yishyura icumi ku ijana gusa, naho indi mirongo cyenda ku ijana, mituweli iba yamwishyuriye.

Inyubako nziza cyane ni nini kandi ni ndende ni etaje, yubatswe mu buryo bugezweho bufite isuku. Urebeye inyuma ubona agace kanini kose k'iyi nyubako hari ibirahure gusa. Hanze hateye ibiti byiza kandi n'igipangu cyaho ni cyiza. Uko bigaragara hari n'idaraporo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage benshi baje guhabwa serivisi, bari gufashwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga, bari kubafasha guhabwa ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, kuko baba bamaze kwishyura ubundi bakaza bagafata ikarita bajyana kwivuza.

Mituweli iyoboka Abanyarwanda bose bitewe n'uko ushaka kujya kwivuza wari urembye cyane ugasanga nta n'amafaranga igihumbi ukoresheje, kandi mu gihe utayishyuye ushobora gukoresha amafaranga arenze ibihumbi magana atanu cyangwa se n'agasambu wari ufite ko kuzagutunga ugasanga urakagurishije bitewe n'uko wanze gutanga mituweli.

Kwa muganga, umugore wambaye ishati y'umutuku, undi murwayi aje kwivuza, azanye ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, kandi arimo kumusobanuza kugirango ngo amenye namara guhabwa ibifishi aho ahita ajya.

Ikigo cyitwa ara esi esi bi, gikoreshwa n'abakozi ba leta mu kwivuza, yaba ari abarimu cyangwa abaganga cyangwa se abayobozi kibafasha kwivuza kikabishyurira mirongo inani na gatanu ku ijana.

Izigamire bugire ejo heza, ni byiza kuba wakwizigamira ugatekereza ko kuba uyu munsi ufite imbaraga uri kusha gukora ejo bishoboka ko waba washaje, cyangwa se ukaba ufite ikindi kibazo kitakwemerera kuba waba ukiri mu kazi cyangwa se gukorera amafaranga nk'ayo uri gukorera none, ni yo mpamvu kwizigamira ari bwo uba uteguye ejo hawe hazaza.

Umunyamuryango ku isonga, abanyamuryango ba ara esesibi, bahora bari ku isonga kuberako iki kigo uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibindi bikorwa byose ababikoramo babahaye ubwisungane bubafasha mu kwivuza, ntabwo ubu ushobora kurwara ngo urembere iwawe, bitewe ni uko ku mafaranga wari kwivuza bakwishyuriraho.

Umuyobozi wa RSSB yaje gusobanurira abaturage akamaro ko kuba wakwishyura mituweli, kubera ko umuntu ufiti mituweli ntarembera mu rugo bitewe n'uko amafaranga yose yaba afite aragenda bakamufasha bakamuvura, ariko iyo utayitanze kubera ko ibyago bidateguza ushaka kwisanga ibyo wari ufite byose ubigurishije bitewe no utizigamiye karere uri kwivuza.

Ni byiza ko igihe cyose ukora ugomba kwizigamira ugatekereza ko ejo hazaza kuko niho tujya kandi birashoboka ko uhagira utagifite imbaraga zo gukora nk'ibyo ufite ubu ni byiza ko wagana ejo heza ukizigamira kugira ngo nugera muri icyo gihe uzakomezaze kubaho neza urye neza wambare neza kandi ugire ubuzima bwiza kuko witeganyirije.

Inyubako nini cyane irimo utubati twinshi dutondetse ku buryo busa neza kandi muri buri kabati hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye buri bicuruzwa bikaba biri hamwe bitewe n'uko bisa harimo za marigarine ubuki za mayoneze n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini cyane, gikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho ibicuruzwa baba bagiye babipanze mu buryo wagira ngo ni imitako, kuko baba babishyize mu tubati buri bwoko bwibisa bakabishyira hamwe, kugira abakiriya baje kubigura babashe kubibona mu buryo bworoshye.

Isoko ryiza kandi rinini ricuruzwa ibyo kurya, aho harimo imboga zitandukanye ndetse n'imbuto, byose baba babipange mu buryo busukuye kandi ibicuruzwa byabo byose biba bimeze neza bikiri bishyashya kandi byujuje ubuziranenge.

Ubu mu masoko menshi agezweho, ntabwo umuntu agihaha ibintu ngo agende byose abifashe mu ntoki aho ashobora no kubimena, kuko ubu harimo utugare ushyiramo ibicuruzwa byose wifuza guhaha, ukagenda bakakubarera amafaranga uratanga maze bakabigupfunyikira neza ku buryo ubitwara nta nakimwe cyangiritse.

Mu isoko ryiza rigezweho, twakwita ko ari supamaketi, ibicuruzwa byabo biba bipanzwe mu buryo bwiza bufite isuku, ku buryo ubireba ukabona ko ari ibintu binogeye ijisho, iteka igihe uje kugura si ngombwa ko wirirwa ujya inyuma inyuma, bitewe n'uko icyo ushaka uhita ukibonera hafi.

Iduka ryiza cyane ripanze neza, buri ibicuruzwa byabo bipanzwe mu tubati mu buryo ubona ko bufite isuku, amata ukwayo, amaji ukwayo ndetse n'ibindi, buri bwoko ukwabyo, ku buryo umukiriya bimworohera kuba icyo ashaka yahita abona aho giherereye.

Isoko ryiza cyane ryubatse neza rifite isuku kuri ubu abenshi baryita supermarket kuko ari isoko ryihagazeho bigaragara ko ritandukanye n'andi masoko asanzwe buri gicuruzwa cyose kiba kigiye gipanzwe ahantu hamwe ku buryo umukiriya uja abagana bimworohera guhita amenya ibyo ashaka aho biherereye.

Isoko ryiza cyane ryubatswe mu buryo bugezweho, ibicuruzwa byose bafite bisa neza ku buryo ubireba ukabibona kuko ko byujuje ubuziranenge, abakiriya baza babagana babakira neza ndetse bakabaha n'utugare bacungamo ibyo bamaze guhaha, batagiye babyikoreye.